Abantu batandukanye, bicaye ku ntebe bafite udupapuro imbere, hari ibikoresho bifite amashusho biri imbere, hari abari gukoresha telefoni, bakaba bari mu nama bari kwiga ku bintu bitandukanye.

Umugabo munini arahagaze imbere y'abantu, ari kumwe n'abandi batatu basigaye bicaye, inyuma ye hari icyapa kinini cyanditseho rubyiruko menya amateka yawe, aho hari abantu benshi baje kwitabira icyo kiganiro.

Iyi ni inama yahuje abantu benshi batandukanye, bakaba bari mu kanya ko kuruhuka, hakaba hari ababyinnyi bari kubyina imbere kugira ngo babasusurutse.

Baricaye, ni abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'imituku n'imikara, bari mu nama, aho bateze amatwi, iruhande rwa buri wese hateretse agacupa k'amazi.

Umugabo uhagaze imbere ufite indangururamajwi mu ntoki, asa naho ari kuvuga ijambo arigeza ku bari imbere. Inyuma ye hari undi wicaye.

Bari mu nama aho bari gufata ifoto, ni abagore babiri n'umugabo. Umugore urimo hagati akenyeye imikenyero yambaye n'agapira, hirya hari umugabo utagaragara neza ariko nawe bari kumwe.

Bari mu nama ni abagabo n'abagore baricaye bose bakoze uruziga hagati yabo harimo ameza manini cyane buri wese yicaranye n'amazi iruhande rwe hari uri kubabwira ahagaze imbere yabo.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo bateretse uducupa tw'amazi ndetse na ji, bari mu nama bahanze amaso imbere hari ibyo bari kwigaho byabagirira akamaro.

Umugore usa nk'aho ari kubwira abantu, afashe mu ntoki ze buri kaboko kafashe mu kandi, yambaye neza ndetse yambaye n'amarinete, bisa nk'aho ari gutanga ikiganiro mu nama.

Umugore ukeye cyane, yambaye urunigi mu ijosi, ndetse n'imikenyero arimo arabyina imbyino ya kinyarwanda yateze amaboko akaba ari umuco nyarwanda.

Bari kubyina imbyino gakondo ni aba mama bambaye imishanana ndetse bitamirije utuntu tw'umweru mu mitwe, abagabo baricaye, abandi bahagaze inyuma yabo bamama bari kubyina, bari kubakomera indirimbo no mu mashyi.

Uyu ni umwirongi wifashishwa bacuranga imbyino za kinyarwanda, ukaba uri mu ibara ry'umuhondo ndetse uteretse n'ahantu heza.

Umubyeyi w'umugore, ari kubyina imbyino gakondo yambaye ibishanana y'umweru no mu mutwe hari akantu k'isaro k'umweru, yambaye n'isaha ku kuboko yasetse arimo kubyina gakondo.

Agaseke keza kari mu mabara y'umweru n'umukara, gateretse ahantu bagashyize kugirango ngo kabe umuco, ni ikimenyetso cy'umuco nyarwanda.

Biri ku mugozi umeze nk'umwenda ni amayugi yakoreshwaga kera n'ubu ngubu intore zirayakoresha mu kubyina imbyino gakondo.

Iki ni igiseke kinini bakunze kwita inkangara kikaba gifite umufuniko ku ruhande, kikaba kifashishwa mu kubikamo ibintu bitandukanye no mu birori kirakoreshwa.

Abagore bambaye imishanana y'umweru n'udusengeri tw'umweru bateze utuntu tw'umweru na two mu mutwe barasutse bafite ibisabo mu ntoki bigaragaza umuco nyarwanda.

Abakobwa beza bicaye bakinze ibitambaro mu gatuza ndetse bambaye n'amakanzu meza maremare, baricaye bari kubuganiza amata mu bisabo by'umuco nyarwanda.

Abantu batandukanye bateraniye ahantu mu cyumba bicaye ku ntebe imbere yabo ku meza hari udupa tw'amazi, bari kuganira ku muco n'uburyo bawusigasira.

Ibiganza bifashe ikintu mu ntoki kimeze nka telefone ndetse akandi kaboko gafashe ikindi kimeze nk'urusinga. Ni umuntu urimo gukora amashanyarazi bisa nkaho yapfuye.

Bari ahabugenewe ahari ibyuma byinshi by'amashanyarazi, ni abagabo gusa bambaye imyenda bamwe yabugenewe abandi bari kubareba, bamwe buriye bari gutunganya insinga, abandi bari hasi babahereza.

hitaruye izindi nzu bahubakiye igipangu kinini, ndetse hari ibikoresho byagenewe gukoreshwa kugira ngo bitange amashanyarazi abantu babone umuriro.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, ni ibikoresho byiganjemo insinga ndetse birubakiye, bishinzwe kugemura umuriro hirya no hino aho bawukeneye.

Umukozi wambaye imyenda iranga akazi akora, yambaye igisurubeti cyanditseho Rege yambaye ingofero y'umweru, akora ibijyanye n'amashanyarazi, arimo arakanda kashipawa kugira ngo ashyiremo undi muriro.

Aha ni ahantutu hari imyirasire, hari batire ibika umuriro, hari n'ibindi bikoresho bifata uyu muriro uva mu murasire, bikaba ari ibikorwa Leta yashyiriyeho abaturage.

Umukobwa uri gusana umuriro w'amashanyarazi ubona ko afite ibikoresho byabugenewe, yambaye umwambaro nyuma wanditseho REG ndetse na nimero wahamagaraho ugize ikibazo.

Ni ahantu mu kibaya, ntihahinze imyaka myinshi gusa hari ibihuru n'amashyamba, hari ipironi rinini ryubakishijwe ibyuma, n'irishinzwe kugemura umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Umugore wambaye ingofero y'umuhondo yambaye igisuweti cy'ubururu bwijimye kirimo akeru gake ku maboko afashe ku rwego bisa nk'aho agiye kurira akajya gukora ku mashanyarazi.

Amapironi abiri manini ndetse n'andi ari ku mpande mato mato, niyo ashinzwe gutambutsa umuriro hirya no hino, ari ahantu hitaruye, hadatuye abantu.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, yuriye ku mashanyarazi, arimo aracomeka insinga kugira ngo amashanyarazi abashe kuboneka neza, hari n'undi inyuma ye uri kumufasha.

Insinga z'amashanyarazi ndetse n'izindi zitari zakorwa neza hari n'ibindi bikoresho byifashishwa mu mashanyarazi, ni ahantu biri hamwe babyubakiye kugira ngo bitazateza ibindi bibazo.

Ni ibikoresho byifashishwa mu mashanyarazi, ni kashipowa imanitse ku nzu ndetse hari n'ibindi bikoresho ku ruhande, byose byifashishwa kugira ngo ahantu hake habone umuriro.

Amashanyarazi yose ashamikiye ku ipironi riri ahantu hegereye ingo, ni ingo nyinshi cyane zifite ibisenge by'umutuku, inzu zose zubatse kimwe, zose zirahura amashanyarazi kuri iyo piloni.

Iki ni igikorwa remezo, leta yubakiye abaturage, akaba ari ikiraro, cyifashishwa mu kwambukwaho n'abantu ndetse n'ibinyabiziga kugira ngo bakore ubuhahirane biboroheye.

Ni mu muhanda hitaruye ikibuga, bisa nkaho ari, kuri sitade, kuko hari abantu bicaye bari kureba, abandi bari hepfo hari guca n'imodoka.

Inyubako nziza isakaje amabati y'umutuku, ni nyubako imbere yaho hari ubusitani bwiza burimo n'ibindi biti, ni nziza cyane, ni inyubako wagira ngo ni akarere, gusa n'ubundi hakorerwa ibintu byiza.

Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare ni ahantu hashinzwe gukemura ibibazo by'abaturage, hari abantu baje bisa nkaho bafite ibibazo, bicaye hanze barategereje.

Bari imbere y'umurenge ni abagabo n'abagore bicaye bakoze uruziga bari mu nama aho umwe muri bo abarimo hagati, afashe ku meza, yambaye umupira wa rakosite w'ubururu ari kubabwira.

Iki ni igikorwa remezo ikaba ari inyubako yubatse ya leta igizwe n'inkingi z'umutuku ndetse n'amabati ari mu ibara ry'umutuku.

Iyi ni inyubako nziza cyane, isakajwe amabati y'icyatsi, hakurya hari umunara ndetse n'udusozi tubakikije, hari n'umuntu uri kugenda muri uyu muhanda.

Ikiraro cyubatse ahantu hatari amazu y'abantu gicaho imodoka zitandukanye, ni ikiraro cyubatse mu buryo bwa kizungu ku buryo utanyerera ngo ugwe kuko hirya no hino harubakiye.

Izi ni inyubako zubatse ahantu mu mudugudu w'icyitegererezo, zikaba ari inyubako Leta yubakira abatishoboye kugira ngo babone aho kuba.

Iyi ni inzu ikikijwe n'andi mazu menshi, ikaba ari inzu yubatswe na leta mu rwego rwo gutuza abantu ahantu heza kandi hatekanye.

Ni ikiraro kiri mu kirere aho bacyubakiye kugira ngo abantu bajye babona uko batambuka neza, hakikijwe n'ibiti by'amapoto bishinzwe kujyana umuriro hirya no hino ndetse n'ibindi bimera.

Inyubako iri kubakwa ntiruzura neza bigaragara ko ari nk'ishuri cyangwa ivuriro, ni inyubako yubakishije amatafari ahiye barimo barasakara uruhande rumwe.

Ibiro by'Akarere ka Nyagatare ni inyubako nziza yubatse neza kijyambere imbere ku mpande hari ubusitani bwiza ni inyubako irimo amabara y'umweru yiganje harimo abantu babiri binjiye.

Inyubako yubatswe na Leta, mu rwego rwo kwegereza abaturage amashuri. Ndetse n'ibitaro akaba ari ahantu hasa neza cyane rwose, habereye ijisho.

Inyubako nyinshi ni inyubako ndende zubakishije amatafari ahiye, bisa nkaho ari ku kigo cy'amashuri, byubakishije amabati y'umutuku, hino hari umugabo uri mu nzira arimo agenda.

Inyubako yubatswe na leta y'u Rwanda, akaba ari inyubako y'ibitaro Akaba ari aho abarwayi bajya, bagahabwa ubufasha bw'indwara zitandukanye.

Ni ku kigonderabuzima aho hari abantu benshi baje kwivuza, mbere yacyo hari kandagira ukarabe kuko ntawemerewe kwinjira adakarabye intoki n'amazi meza.

Abantu batandukanye, abari imbere bafite amagare, bambaye imipira iriho amagambo atagaragara neza, inyuma hari amatente ndetse n'ibiti, biragaragara ko abari kwiga bijyanye n'uburenganzira bwa muntu.

Abagabo bambaye amakositime bicaye mu ihema, hari abahagaze inyuma yabo, hasi hari tapi, ku mpande hari ameza ariho n'amazi, bari mu bucamanza ndetse n'ubutabera.

Umugabo usa nkaho akuze afite mikoro y'umutuku mu ntoki, ari hagati y'abandi bantu bicaye we arahagaze, bisa nkaho ari kubaganiriza ku birebana n'umutekano no kurengera ikiremwamuntu.

Ni abagabo n'abagore barahagaze bambaye imipira y'icyatsi kibisi abenshi bambaye n' ingofero mu mutwe, bari mu nsina kandi bari kumwe n'umuntu uri kubasobanurira.

Abantu benshi batandukanye, harimo abagore, harimo abagabo, harimo umusirikare urimo hagati yabo, n'umupolisi, bakaba bafite udupapuro mu ntoki, bigaraga ko ari seritifika bahawe.

Abasirikare babiri bari kumwe n'abandi bantu, bose bari mu ihema, bose basa naho bafashe umunota umwe, wo kwibuka, bahagaze, bifashe nk'abari guha icyubahiro abantu.

Barahagaze barimo abantu bakuze ndetse n'abandi bari mu kigero k'imyaka mito umusaza umwe afite mikorohone mu ntoki yambaye, ishati y'umweru afite ingofero n'inkoni mu ntoki, bisa nk'aho barenganyijwe baje kubarenganura.

Abagabo bari kumwe n'umupolisi barahagaze basa naho bategereje umuntu, koko bari kumwe n'ushinzwe umutekano bigaragara ko nta mutekano wari uhari, bari munsi y'insina.

Nyagatare jenoside memoriyo ni urwibutso runini rwa Nyagatare hari imbere yarwo hari ibiti bacanye bisa nkaho baraye ijoro ryo kwibuka.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe bari mu nama, umwe muri bo arahagaze, bambaye abenshi udupira tw'inifomu, bisa nkaho bari kuganira ku butabera.

Abagabo bahagaze mu nsina, bari kumwe n'abapolisi mu by'ubutabera ndetse no kurengera ubuzima bwa muntu, bari iruhande rw'udutebe kandi barahagaze bose.

Debesiti resitoranti, ni resitora icuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa, ni ahantu ushobora kujya, bakakwakirana urugwiro.

Umumotari yicaye kuri moto yambaye inkweto z'umweru n'umukara, ahetse umuntu wambaye igikapu cy'umukara n'imyenda irimo umutuku n'ikake, bari mu muhanda wa kaburimbo, barimo baragenda, hakurya yabo hari imodoka iparitse, imbere y'inyubako.

Ni icyapa kinini kirekire giteye ahantu mu byatsi cyandikishijeho amabara y'umweru n'ubururu kiri mu byatsi aho hari ibiti byinshi kuri uwo muhanda ni ahantu hari kuyobora aho amizero ari.

Icyapa kinini cyanditseho ivuriro kiri ku marembo neza y'inyubako ni kwa muganga, hirya yacyo hari ubusitani bw'ibyatsi, hino hari amapave ndetse hari n'umuhanda wa kaburimbo, umuntu ari kugenda mu mapave.

Gare ya Nyagatare imbere yayo hari amapave, hari abamotari bari inyuma gatoya y'umuryango wa gare, bari kugabana abagenzi buri wese uko agiye gutwara uwe.

Imodoka iri kugenda mu muhanda ni iy'umweru, mu muhanda wa kaburimbo hagati na hagati haciyemo akarongo k'umuhondo hirya mu banyamaguru hari abantu babiri bari kugenda b'abakobwa.

Ushinzwe umutekano afite mikoro mu ntoki, yambaye ingofero isa n'iniforomo yambaye, ni umugabo wambaye rinete, ari kubwira abantu ibijyanye n'umutekano.

Barikumwe n'umusirikare ndetse nabo bateruye nka we, bose bateruye amabuye mu ntoki, n' abantu b'igitsina gabo bari iruhande rw'intoki ndetse n'indabo bari gusa nkaho bari kujya kubaka ahantu.

Bari iruhande rw'inyubako nyinshi hari iyo bubatse n'ibiti barasakara n'amabati, ni abagabo n'abagore barimo n'abana n'urubyiruko bari mu gikorwa cy'umutekano.

Abantu benshi batandukanye bafite amasuka bari guhinga ahantu, biragaragara ko bari mu gikorwa cy'umuganda harimo n'umusirikare ufite n'idarapo ku kuboko kwe kw'ibumoso.

Umugabo wambaye ingofero iriho agatirevi k'umweru, afite mikoro fone y'umutuku n'umukara, yambaye ishati ya move n'isaha ku kuboko ari kumwe na bagenzi be bicaye, we arahagaze asa nkaho ari kubaganiriza, iby'umutekano, bari muri mu busitani.

Bari mu kibuga hagati, ni abagore ndetse n'abagabo, hari abitwikiriye imitaka, bambaye imyenda itandukanye, basa naho bari gukoma amashyi, bishimira ibyagezweho.

Abantu bikoreye imizigo ku mutwe n'abandi bari kugenda mu muhanda bigaragare ko iyi mizigo hari ahantu bayijyanye, impande yabo hari ibiti ndetse n'insina.

Abana batandukanye harimo: abambaye impuzankano z'ishuri, abahetse udukapu dutwarwamo amakayi. Bigaragara ko bari muri siporo kuko harimo n'abambaye inkweto za godiyo.

Abakinnyi b'umupira bambaye imyenda itandukanye, hari abambaye iy'umuhondo, hari abambaye iy'ubururu, bafite umupira, barimo barakina, bari mu kibuga hagati, hari babiri baryamye hasi.

Uko amakipe yatsindanye mu murenge Kagame cup bibiri na makumyabiri na kane na makumyabiri na gatanu, amakipe y'abagore yaratsinze n'ay'abagabo aratsinda, ibitego byinshi byarabonetse.

Baricaye ni abagore n'abagabo umwe muri bo ahagaze hagati yabo, bisa nkaho ari kubasobanurira ibyiza bya siporo kuko yambaye agapira ka siporo afite ingofero mu ntoki, bisa nkaho abizobereyemo.

Bari mu birori bya siporo, ni abagore bahagaze bari kumwe n'umwana mutoya ufite mu ntoki umupira wo gukina, bafite icyapa mu ntoki cyanditseho Nyagatare district Umurenge Kagame cup.

Ni abakinnyi b'umupira bambaye amajesi y'umuhondo n'umukara, bambaye n'inkweto zabugenewe, hirya hari abari kubafasha kwinjira mu kibuga neza, babasuhuza, bari kumwe n'umusifuzi ndetse n'abatoza.

Bari muri siporo bambaye amajezi atandukanye ni abasore barimo barakinira mu kibuga kirimo ibyatsi haruguru hari abamotari ndetse n'abanyonzi baje kwirebera umupira.

Bari muri siporo ni abagabo batanu n'umugore umwe bari kuzamura akaguru hejuru n'akaboko, bambaye imyenda itukura, bafite imikandara mu nda bari gukina siporo ya karate.

bari gukina umupira w'amaguru n abagabo n'abagore bamwe bambaye imyenda y'umukara abandi bambaye iy'umutuku n'umukara harimo n'akabara k'umuhondo, bari gukina balo mu kibuga hagati.

Abantu bari mu kibuga gikinirwamo umupira w'amaguru, bari gukora siporo, ubona ko ari ikibuga kirimo na tapi, cyiza cyane rwose, kugikiniramo ntako bisa.

Umukinnyi wambaye amasogisi arimo umuhondo uteruye neza nk'aho ari icyatsi cyerurutse n'umukara, yambaye godiyo, yambaye amajesi arimo ubururu n'icyatsi ari muri siporo.

Hari ibyatsi byinshi, hari ibisa nk'ibigiye kuma ndetse hari n'ibitoshye, hirya gato hari akayira k'abanyamaguru, katagira icyatsi na kimwe.

Ni mu muhanda w'icyaro aho hari ibyatsi, ibiti ndetse n'amabuye mu muhanda, nta kaburimbo irimo bisa nk'aho ari umuntu ugiye gutunguka igicucuju cye kimutanga imbere.

Bari mu muhanda, barimo baragenda hejuru y'ibintu bimeze nk'ibisima, mu muhanda w'abanyamaguru, hirya yabo hari umuhanda ucamo ibinyabiziga kandi n'amatara ari kwaka ku kumuhanda, ni mugihe cya nijoro.

Umuhanda ugizwe n'amapave ndetse n'undi ku ruhande na wo wa kaburimbo, umusore ufite indabo irimo ibiraha, hakurya hari n'inyubako z'ubucuruzi.

Hari ibyatsi, hari akayira gasa nkahoaho bacamo abantu bagenda n'amaguru, mu muhanda wo mu bihuru, aho abantu bitari rusange, hari ibyatsi byinshi.

Icyapa kinini cyanditseho sitopu, kiri imbere y'inyubako hino gato hari amapave, hari n'umuhanda wa kaburimbo ariko itarajyamo neza, ni umuhanda ukomeza abantu bacamo.

Ni umuhinzi w'umugabo afite isuka ku rutugu, yambaye ishati y'umweru yazinze amaboko, yambaye n'ipantaro y'umukara ari kugenda mu muhanda w'ibitaka. Hirya ye hari indabyo imbere ye hari ipoto ndetse n'amazu.

Umumotari ari mu muhanda atwaye kuri moto amajerekani menshi, bisa nk'aho avuye kuzana amazi, ari guca mu muhanda wa kaburimbo hirya yawo hari ibiti birebire by'ishyamba.